Abana bakiri batoya bisa nk'aho biga muri garidienne, bari kumwe n'umurezi wabo, bari ahantu mu kibara imbere y'ikigo cy'amashuri.

Imodoka eshatu, iy'inyuma ni iy'umweru, izindi ebyiri ziri imbere yayo ni iz'umukara, ziri hafi y'ahantu wagira n'urusengero, imbere y'urwo rusengero, hakaba hari abana basa nkaho bari gukina.

Abana bajijutse b'abakinnyi, bamwe bambaye imyenda y'umutuku, abandi bambaye icyatsi, abandi bambaye iy'ubururu, bahagaze ku murongo umwe, bari kureba umuntu usa n'uri kubaha amabwiriza, wambaye iby'umukara.

Abanyeshuri bambaye amashati ya burusiyeri, amapantaro ya kaki, bahagaze bateze amatwi umuntu usa nkaho ari umuyobozi wabo uri kubaha amabwiriza, uwo muntu akaba yambaye imyenda y'umukara, n'inkweto z'umweru, n'abo banyeshuri bambaye inkweto z'umweru z'umukara.

Abanyeshuri bari mu muhanda barimo kujya cyangwa kuva ku ishuri, bambaye amashati y'umweru n'amajipo cyangwa se amapantaro y'umukara.

Ikigo cy'amashuri cyiza cyane, kirimo abanyeshuri, harimo ikibuga cya basket, n'ibibuga bibiri, abanyeshuri barimo gutembera, basa nka bamo gutembera mu kigo, ariko ntabwo bari gukina.

Abanyeshuri bari mu kigo cy'amashuri, bari gukina volleyball, bambaye imyenda y'umweru ifite nimero zandikishije zanditswe mu ibara ry'umukara mu migongo yabo, ariko si aho gusa, hari n'abandi bambaye imyenda isa nkaho irimo ubururu, bakaba bose bari gukina.

Geti nini yanditseho amagambo yanditswe mu ibara ry'icyatsi, handitswe ngo Groupe Scolaire Officielle de Butare, iyo geti ni umweru, irimo utundi tubara tubiri tw'umuhondo, imbere yayo hari amapave ashashe.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri bambaye amashati y'ubururu butari ubururu cyane, hanyuma bakaba bambaye n'amajipo y'ubururu, hagati y'abo banyeshuri hari umwarimu uhagaze wambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba kirimo akameza, kuri ako kameza hateretseho amasahani y'umweru, inyuma y'ako kameza hari intebe ebyiri za plastike z'ubururu zigerekeranye, inyuma y'izo ntebe hari inkweto ziri kuka etageur.

Icyumba cyo kuraramo, kirimo umukobwa, harimo imashini, inyuma y'iyo mashini harimo akabati karimo imyenda, hejuru y'ako kabati hari ibikapu bya varise bibiri binini by'umukara. Harimo ravabo, ndetse hari na miritipurize aho imashini icometse.

Icyumba kirimo intebe y'umweru, imashini ya computer y'umukara, imyenda imanitse ku gikuta, harimo n'ikirori kimanitse ku gikuta, harimo n'umuteka hasi urambuye hasi w'icyatsi.

Icyumba kirimo akabati hejuru y'ako kabati hari varize y'umukara ahagana ku ruhande hari akamezaza gateretseho akajerekani na keto, muri icyo cyumba kandi harimo matela, harimo igitanda cy'ibitanda bibiri hari matela ebyiri hasi no hejuru.

Ahantu hagari hari amapave, hari ibyapa hari utwapa dutoya tubiri tugaragaza ko aho hantu hatemewe guparikwa; utwo twapa n'utw'ubururu, inyuma yatwo hari inyubako y'umuhondo, hanyuma inyuma hakaba hanari akajaride iruhande iruhande rw'iyo nyubako.

Isomero ririmo ibitabo. Hari aho abantu bicara bari gusoma, hari ameza, hari intebe. N'ahantu hatuje hasa neza cyane, harimo ibitabo by'amoko menshi.

Akabati karimo amavuta, pafiyumu, hejuru yako hari ibikapu bibiri by'amavarisi y'umukara, bisa nkaho ari mu cyumba cyo kuraramo.